Uyu ni umugabo w'umuhinzi akaba ari gutera umuti mu myaka ye, mu rwego rwo kugira ngo ayirinde uburwayi bugiye butandukanye bityo azagire umusaruro mwiza umuhesha amafaranga ndetse n'ibyo kurya.

Aya ni amoko y'imiti ahabwa amatungo. Iyi miti ikaba ifunze mu ducupa twiza cyane tw'umweru tureture dufite imipfundikizo y'icyatsi kibisi, kuri buri cupa hakaba hariho icyapa kigaragaza izina ry'uyu muti nuko ukoreshwa.

Aya ni amoko y'imiti ahabwa inyamaswa ndetse n'andi yifashishwa hicwa udukoko turi mu biribwa, aha hakaba hari amacupa manini, udukarita duto ndetse n'ibikarito binini hose hakaba harimo imiti.

Uyu ni umumama wagize umwuga w'ubuhinzi umurimo we wa buri munsi, akaba ari gutera umuti ku gihingwa cy'ikawa mu rwego kugira ngo yice udukoko twose dushobora gutuma iyi kawa itera neza.

Uyu ni umusaruro mwiza cyane ukomoka ku bworozi bw'amafi. Abaturage benshi basobanukiwe neza, bakora ubu bworozi, maze bigatuma babona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bityo bakagira ubuzima bwiza.

Uyu ni umumama uri mu ruzi akaba ari kugenda agashya nawe we ni umusare kuko ari kwiyambutsa ndetse muri iki cyuzi harimo n'abandi bantu bicaye mu bwato bigaragara ko bose bazi kubutwara.

Aha ha ni mu gishanga, hakaba hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi bw'umuceri, ni igishanga gitunganyije neza kuko ubuhinzi bw'umuceri bukenera amazi ariko kandi nanone ukarinda umurima wawe kugira ngo udatwarwa.

Ahantu heza cyane hari icyuzi kirimo amafi. Cyorowe neza ndetse hakorerwa n'imirimo y'ubuhinzi. Umuntu ubikora bigaragara ko afite amafaranga kandi abyitaho neza cyane uko bikwiye.

Uyu ni umusore ukora umwuga w'uburobyi bw'amafi ndetse n'ubworozi bwayo, yarobye amafi menshi cyane agiye atandukanye na we ubwe byamutangaje kuko birahebuje kubona umuntu ugira umusaruro ungana nk'uku.

Iyi ni ikawa y'u Rwanda yamaze gutegurwa neza maze iyi kawa ikaba igiye kugurishwa, abahinzi bayo bagahabwa akayabo k'amafaranga maze bagasubira mu bikorwa byabo, bagahinga neza, bakaniteza imbere.

Uyu ni umumama uhinga igihingwa k'ikawa yambaye imyenda yo mu bitenge ndetse n'ishapure mu ijosi, yambaye n'agapfukamunwa, akaba ari kwita ku ikawa ye kuko itanga amafaranga ku bantu bayitayeho.

Uyu ni wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, ahagaze mu gihingwa cya kawa. Iyi ni ikawa y'ibitontomwe iri kuzamuka. uyu mugabo arayitegereza kandi afite icyizere cy'uko niyera izamuha amafaranga menshi.

Iki ni igihingwa k'ikawa. Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu, aho gitanga amafaranga ahagije ku bantu bagihinga. Kikaba gishishe kandi kiriho imbuto, zigiye kwera.

Aba ni abantu bari gusarura umuceri .Bari kuwusarura mu gishanga bigaragara ko weze, bari gukoresha najoro bakata umuceri weze bagenda bawushyira mu ibasi ,bakaza kuwuterura bakawutereka ku musozi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ahagaze mu bihingwa. Uyu mugabo bigaragara ko ari umukungu kuko ahinga ibihingwa bitanga amafaranga bityo akiteza imbere akabona n'ibyo arya umuryango we ukabaho neza.

Iki ni igikarito kirimo umuti uvura inyamaswa, aha hakaba hari ibikarito byinshi cyane birimo amoko y'imiti avura inyamaswa zigiye zitandukanye harimo inka, inkoko, ingurube ndetse n'inkwavu.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye ahabwa amatungo. Iyi miti ikaba iri mu dukarito ndetse no mu macupa ni amacupa y'umukara yometseho ibyapa biriho amagambo agaragaza uko iyi miti ikora mu buryo bukwiye.

Utu ni udukarito tugiye dutandukanye, tukaba turimo imiti y'amatungo, udukarito turi mu mabara agiye atandukanye, hari uturi mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, uturi mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru. Iyi miti yose ikaba iriho amagambo agaragaza amazina yayo ndetse n'uko ikoreshwa.

Aya ni amoko y'imiti ihabwa amatungo hari umugabo ufite agacupa gato kagaragaza yuko uyu ari umuti uhabwa itungo rigufi cyane ry'ihene kandi bigatuma ishisha ikagira umusaruro.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye ahabwa amatungo mu rwego kugira ngo arusheho kumera neza. Iyi miti ikaba iri mu macupa manini ndetse n'amacupa mato. Uducupa duto tukaba dupfundikishije imipfundikizo y'umweru.

Aya ni amoko atandukanye y'imiti ihabwa amatungo mu rwego rwo kugira ngo amere neza, iyi miti ikaba ifunze mu macupa ndetse no mu makarito bigiye bitandukanye, hari udukarita turimo amabara y'umutuku ndetse n'amagambo yandikishije umukara, hakaba n'ibicupa by'umukara.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'inkoko. Bakaba bari kuziha umuti utuma zitarwara, muri urwo rwego buri mworozi akwiye kujya yita ku matungo ye, akayaha umuti kugira ngo akomeze abeho neza.

Iyi ni ishashi ikaba irimo imiti ihabwa inyamaswa, zifite ikibazo cy'uburwayi, aho iyo ufite itungo rirwaye, witabaza inzobere mu bijyanye no kuvura amatungo maze ukazana umuti wizewe ikagufasha.

Ubu ni ubwoko bw'imiti ikozwe kandi yizewe, ihabwa inyamaswa mu rwego kugira ngo aya matungo agire ubuzima bwiza, inzobere mu by'ubuvuzi bw'amatungo zateguye imiti yifashishwa mu kuyavura kugira ngo amere neza.

Uyu niryango w'aborozi, umama arimo aragerageza gushimisha inka maze umugabo we nawe akaba ari kuyikama nk'inka ifite umukamo kuko abayitunze bayitayeho kandi bayikunda.

Uyu ni umugabo uri kugemura urugemwe aho bazigemeka, akaba ari kurufata ngo ajye kurutera bityo nawe yibonere kuko azajya yeza neza bitamugoye kandi ku gihe.

Aba ni abari beza cyane ba babahinzi, hakaba harimo n'abasore, bari gutera ibiti by'imbuto mu rwego rwo kugira ngo babone imbuto barya kandi babone n'umuyaga ndetse ibi biti bikurure n'imvura babeho bishimye.

Iki ni igikorwa cy'ubukangurambaga aho bakangurira buri muturage gutera igiti ku murima we aha hakaba hari aba dasso, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye harimo umugabo wambaye ishati akaba yatebeje yambaye n'uturindantoki.

Uyu ni umumama uhagaze mu mirima y'imyaka, akaba afite igihaza mu ntoki. Ni byiza gukora cyane kuko iyo ubonye umusaruro uranezerwa kandi n'abandi bose bakabona ibyo bakeneye.

Izi ni ingemwe ziri mu bihoho, izi ngemwe zikaba zitegurwa neza mu rwego rwo kugira ngo bazazimurire ahantu hagiye hatandukanye bityo zibashe kwera neza kandi zisanzuye zarateguwe.

Uyu ni umugabo w'umuhinzi yambaye isurubeti isa ubururu akaba arimo arasarura ibigori byiza cyane ikigori kimwe cyagiye giheheka ibigori bitatu kandi byose ubona ko bishishe, uyu muhinzi aranezerewe.

Umumama w'umuhinzi wabigize umwuga, akaba yicaye mu mboga ze nziza cyane zeze neza, aho harimo n'abagabo bari kuzisarura. Umumama wambaye ibitenge akaba ateze agatambaro, ndetse abo bagabo umwe yambaye agapira k'umukara karimo uturongo.

Uyu ni umugabo ukora akazi k'ubuhinzi ndetse n'ubworozi afite inka nziza cyane ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, akaba ari gukama amata meza cyane akamira mu cyatsi kinini bigaragara ko iyi nka ifite umukamo.

Uyu ni umumama uri guca mu murima wezemo amashu meza cyane hakaba hari umugabo uri kuyasarura, uyu mugabo ndetse n'uyu mumama bose ni abahinzi kandi imyaka yabo ireze nkuko biri kugaragara.

Aha ni ahabera ibikorwa by'ubuhinzi, aha hateyemo imyaka igiye itandukanye, hari ibishyimbo biteye ku murongo, hakaba gereveriya zibikorotiriye hepfo no ruguru zifite amashami agaragara ko ari maremare.

Aha ni mu gishanga abantu bakaba bamaze gusarura umuceri, hari abasore baje gutwara ibyatsi byo guha amatungo ndetse no kuyasasira, Subona ko bazanye amagare kugira ngo babipakire maze bagende bihera amatungo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu gikorwa cyo gutera ibiti ku musozi mu rwego rwo kugira ngo hirindwe isuri ndetse n'indi ngaruka zose zaturuka ku kuba aha hantu nta biti bihari.

Abamama biteje imbere bakaba ari abahinzi, aha bari mu murima mwiza cyane wezemo amashu. Bari kugenda amwe bayasarura andi bayasasira. Mu rwego rwo kugira ngo azere neza bityo babone amafaranga biteze imbere.

Uyu ni umumama wambaye agakanzu k'ubururu, ateze igitambaro cy'igitenge, afite ingemwe mu maboko yiwe abiri akaba agiye kuzitera, arishimye cyane kuko afite icyizere cy'uko zizera vuba bidatinze.

Aya ni amatungo ari mu rwuri, ni urwuri rufite ubwatsi ubona ko ari kurisha ashishikaye mu rwego rwo kugira ngo ahage bityo na yo agire umukamo, hirya hakaba hari ibiti byiza birebire bifite amashami.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi. Bubyara amafaranga ndetse n'ibyo kurya. Aho amabanki abagoboka akabaha amafaranga bagashora mu buhinzi bityo nabo bakunguka ndetse bakishyura na banki.

Ibi ni ibihingwa ngandurabukungu aho usanga amabanki yemera kubaha inguzanyo mu rwego kugira ngo bahinge bino bihingwa bityo, nibeza na bo bishyure kandi babone n'ibyo kurya bibatunga.

Iki ni igihingwa k'imyumbati imyumbati ku bahinzi bayihinga yabateje imbere kuko amabanki yarabegereje abaha amafaranga barashora, maze nabo barunguka ndetse bungukira na banki.

Ibi ni ibihingwa, ni ibigori byiza cyane biteye mu murima, kimwe kikaba gihetse ibigori bibiri cyangwa bitatu, bifite amababi meza y'icyatsi kibisi, bigaragara ko byabonye imvura ndetse n'amazi.

Ibi ni ibihingwa by'ibigori bimeze neza cyane, biri ahantu mu kibaya ubona ko bikuze kandi bizagira umusaruro bigatanga amafaranga ndetse n'ibyo kurya ku babihinze bagatera imbere.

Ibi ni bimwe mu bihingwa bigiye bitandukanye bitanga amafaranga ku babikora ndetse bigatanga n'ibyo kurya, ni ibihingwa by'imyumbati ndetse n'ibijumba. Ni imigozi myiza cyane ishishe ndetse n'imyumbati ubona ko ikiri mito.

Ubu ni ubuhinzi butanga ibyo kurya ndetse bugatanga n'amafaranga ku babukora, ni amashu meza cyane ndetse n'imboga, bihinze mu buryo bwiza cyane kandi bugezweho, aho izi mboga iyo zeze abazihinga babona ibyo kurya ndetse bakanagurisha bakibonera amafaranga.

Iki ni igihingwa cyiza cyane kizana amafaranga ndetse n'ibyo kurya ku bagihinga aho bagenda bagafata inguzanyo muri banki, barangiza bagahinga. Basarura bakagurisha maze bakishyura banki nabo bakabona inyungu.

Ibi ni bimwe mu bihingwa bitanga amafaranga ndetse n'ibyo kurya kubabihinga. Ni ikigori cyiza cyane ubona ko cyeze, abahinzi b'ibigori babona amafaranga ku musaruro wabo kandi bakabona n'ibyo kurya.

Aha ni mu gishanga hakaba hahingwa igihingwa cy'umuceri, igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu bihingwa bizana amafaranga menshi, bityo amabanki agakorana n'amakoperative kuko abaturage babona amafaranga ndetse n'ibyo kurya.

Iki ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga ndetse kigatanga n'ibyo kurya, ni ipapayi nziza cyane izamutse ifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'ay'umuhondo, ikagira amashami abiri ikaba ifite n'indabyo.

Izi ni inyamaswa ziri muri pariki, ziri kuyitemberamo, aho harimo ibiti byiza cyane bigufi ndetse n'ibyatsi zibasha kurya. Leta y'u Rwanda yafashe iya mbere mu gusigasira ndetse no kurinda ubusugire bw'izi nyamaswa.

Iri ni ishyamba ririmo ibiti birebire ndetse n'ibigufi, iri shyamba rimeze neza cyane rikaba ririmo inyamaswa zigiye zitandukanye nk'inyoni ziberamo ndetse n'izindi nyamaswa zo mu gasozi.

Iri ni ishyamba riteye ku misozi miremire, iri shyamba rikaba ririmo ibiti birebire ndetse n'ibigufi, riteye mu buryo butandukanye nta bucucike rifite, ibiti nk'ibi bikunze kugira umusaruro kuko biba biri ahantu hisanzuye.

Uyu ni umusozi uteyeho ishyamba, iri shyamba riteye mu buryo bwiza cyane ariko ibiti ntibiraba byinshi kuko baracyabitera kandi na byo biracyamera, aho bagamije kugira ishyamba ryiza rikurura imvura.

Aha ni ahantu hateye ibiti byiza cyane binini kandi by'inganzamarumbo, iki giti gifite ishami ryiza ritanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bimera biteye hano bityo bikera nta nkomyi.

Iri ni ishyamba riteye mu buryo bwiza cyane kuko ibiti bigiye bitandukanye, harimo ibiti bikiri bito bateye vuba ndetse hakaba n'ibindi biti birebire bifite amashami atanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku baturage.

Aba ni abantu bari gutemmbere mu ishyamba ririmo ibiti birebire, ibi biti bikaba biri ruguru ni abantu biganjemo abana, abagabo ndetse n'abagore, bigaragara ko bose baje kwirebera iri shyamba kuko ari irya Leta.

Iri ni ishyamba ryiza cyane ririmo ibiti bigororotse kandi birebire, hasi hakaba harimo ubwatsi bwiza, mu Rwanda dusigasira kandi tukarinda amashyamba mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kubona umwuka mwiza duhumeka.

Iri ni ishyamba ryiza cyane ririmo ibiti byiza cyane bitohagiye hakaba umusozi muremure na wo uriho ibiti, hagati muri iryo shyamba hakaba harimo igihingwa k'ikawa kigaragara neza cyane.

Iri ni ishyamba riteye ku buryo bumeze neza, irimo ibiti birebire ndetse n'ibigufi. Hakabamo akayira abantu barijemo banyuramo bigaragara ko wagira ngo karimo kaburimbo. Munsi mu kibaya hakaba hari amazu atuwemo n'abantu.

Hantu hari ishyamba ryiza cyane rifite ibiti birebire ariko kandi hakaba hari utwatsi twiza abantu bahuriramo bakaganira. Aha bahuye. Imbere hari umu mama ufite indobo igaragara nk'aho irimo icyo kunywa.

Iyi ni imisozi myiza cyane iteyeho amashyamba, aya mashyamba ateye mu buryo bwiza kuko ategeranye cyane kandi akaba arimo ibiti bigororotse bigufi ndetse n'ibirebire, hakaba hari n'abaturage batuye munsi yayo.

Iki ni igihingwa cy'inanasi. Guhinga inanasi bivuze umuco. Ariko kandi nanone bivuze ko uba uhinze igihingwa cy'indashyikirwa, gitanga amafaranga ndetse n'umunezero mu muryango w'abagihinga.

Umumama uhagaze mu murima weramo imboga, akaba ari gusarura ashyira mu gatebo. Uyu yahinze imboga mu rwego rwo kugira ngo abone ibyo kurya ndetse abone n'izo agurisha bityo yiteze imbere.

Uyu ni umumama akaba ahagaze mu ndabo nziza cyane, mu muco gakondo abamama bateguraga indabo maze bakazitaka mu mazu bityo bigatuma ahantu abamama bari hahora hasa neza.

Ibi ni ibimera byiza cyane bimurika umucyo n'ubwiza by'abanyarwanda, hakaba hari uturabyo twiza tw'iroze, hari ibimera bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ibi bimera birasa neza kandi biragaragara ko ababikoresha bizihiwe.

Aba ni abahinzi bahinga imbuto, iki ni igiti kiriho imbuto nziza cyane za pome bigaragara ko zahishiye, hari ikiganza gifite imwe mu ntoki bikagaragaza ko isa umutuku kandi iryohereye.

Aka ni akarima k'igikoni kubatswe mu buryo bugezweho. Kakaba kazengurutswe neza cyane n'ibiti ndetse na shitingi, kari mu gipangu cyiza cyane cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ibyuma by'umukara.

Ubu ni ubuhinzi bw'imbuto aha turi kuhabona igiti cy'umwembe gifite amababi y'icyatsi kibisi, kikaba gifiteho imbuto zitangiye kwera, byubakiye neza bigaragaza neza ko aha hantu ari ahantu nyaburanga.

Aha ni ahantu hari ubuhinzi bwa kijyambere, hakaba harimo imbuto nziza cyane ubona ko ziri kumera kandi hakaba hitaweho neza cyane akantu ku kandi nta kabuza uyu muhinzi azagira umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Uyu ni umugabo wambaye agapira k'ubururu akaba yambaye n'ipantaro itukura afite urugemwe ahagaze muri pepiniyeri y'imbuto ndetse n'ibiti aho bigaragara ko nawe akoramo kandi yabigize umwuga.

Ibi ni ibimera biteye kandi bikaba bisa neza cyane biteye amabenge byahawe ifumbire nziza. Abahinzi babihinga bigaragara ko bibanda ku muco wa gakondo aho bashyiraraho ifumbire maze bakabona umusaruro.

Uyu ni umurima uhinzemo amoko y'indabyo adi atandukanye, indabyo nka kimwe mu biranga umuco w'u rwanda usanga abahinzi bazihinga maze nabo bakaba bazicuruza.

Ubu ni uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka, aha hari ibigori byiza cyane kandi bishishe kuko byavomerewe hafashishijwe ikoranabuhanga ryagizwe mu kuvomerera aho amazi azamurwa n'imashini bityo imyaka ikabona amazi.

Ubu ni bumwe mu buryo bwa kijyambere bugezweho bwifashishwa mu gufata amazi, azifashishwa mu guhaza ibiribwa mu gihe cy'impeshyi, bakaba bubaka ibigega bikomeye cyane kugira ngo bifate ayo amazi.

Aba ni abahinzi babigize umwuga, bakaba bahinga ibigori ndetse n'imboga, ni mu gishanga cyiza cyane kirimo amazi, aho bakoresha imipira buhira imyaka yabo kugira ngo itazigera irumba, muri urwo rwego bakaba baba bari kubikora bagamije kubona umusaruro uhagije.

Umugabo uri kuvomerera insina ze ndetse hakaba hateyemo n'indi myaka. Uyu mugabo yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'agapira, afite umupira uri kuvamo amazi menshi cyane ajya mu myaka ye ku buryo niba bari mu mpeshyi bitayibuza kwera.

Ubu ni bumwe mu buryo bwo kuhira imyaka hifashishijwe ikoranabuhanga, ni ibyuma byiza cyane ubona ko byateguwe bigenda bizamura amazi hirya no hino mu myaka bityo imyaka ikagira ubuzima bwiza.

Ubu ni uburyo bugezweho bwo kuvomerera imyaka hifashishijwe ikoranabuhanga, ni amatiyo ateye mu butaka ari kuzamura amazi mu myaka, ibi ni ibihingwa byiza cyane ubona ko bitohagiye kuko hano hari amazi kandi menshi.

Uyu ni umugabo wambaye isarubeti y'umukara, akaba yambaye amadarubindi y'umukara amwegereye, afite umupira aho ari kugenda atera umuti ibigori murwego rwo kugira ngo bizere neza.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantara y'umukara afite itiyo iri kuvamo amazi. Ari kugenda yuhira imyaka mu rwego rwo kugira ngo ayirinde kuba yakuma ahubwo yere neza cyane kuko iteye ahantu hagera amazi.

Aha ni ahantu heza cyane batunganyije. Mu rwego rwo kugira ngo amazi, ategurwe maze ajye agera ku baturage bose, ibihingwa bimere neza. Hari abantu bari kuyanyura hejuru, ubona ko bayitegereza. Ni amazi asa neza cyane.

Uyu ni umumama wambaye agapira k'amaboko magufi ukenyeye igitenge ari kuvomerera imbuto ndetse n'imboga mu gishanga, izi mboga bigaragara ko nizera zizaba zishimishije kandi umusaruro uzamushimisha.

Umukaka ufite indobo y'icyatsi, ari kuvomerera amashu. Ni amashu ateye ahantu hari urutoki, hakaba n'igiti cy'amapera. Uyu mukaka akaba azi kwita ku myaka kuko areza neza.

Uyu ni umusozi ndetse n'ikibaya, kuri uyu musozi hakaba hariho ibiti ndetse hakorerwa n'ibikorwa by'ubuhinzi, mu kabande hakaba harimo umugezi utemba, ufite amazi bigaragara ko yanduye.

Iyi ni imisozi myiza cyane, ikaba ituweho abantu ndetse hakaba hahingwa n'ibihingwa bigiye bitandukanye, abantu batuye kuri uyu musozi batuye mu buryo bugiye butandukanye, aho umwe ahana intera n'undi mu rwego kugira ngo hatazamo icyuho.

Iyi ni imisozi myiza ihanamye kandi iriho ibiti bigiye bigaragaza ubwiza biri mu mabara y'icyatsi kibisi, hakaba hari n'ibishanga aho uko bigaragara hameze neza cyane kandi haratuje.

Iyi ni imisozi myiza cyane ihanamye kandi itatswe n'ibimera bifite amabara y'icyatsi kibisi, akagira igishanga gifite amazi meza cyane y'ikidendezi kandi afite ibara ryiza abereye ijisho.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubworozi bw'inkoko. Ni inkoko zigiye zitandukanye, zikaba ziba ahantu heza cyane, hakorotirijwe senyenge, hakaba harimo amatara meza azimurikira bigatuma zikura neza, harimo n'umugabo uzorora.

Iyi ni ifamu yororewemo inka zigiye zitandukanye, harimo inyambo nziza cyane zifite amahembe maremare, hakabamo abantu bashinzwe kuzitaho ndetse hakabamo n'abaganga b'amatungo aho bari gutegura imiti ngo bazivure.

Uyu ni umugabo woroye inka, yoroye inka nziza cyane y'ifirizone, ikaba iri mu gihindiro, aho ari kuyiha amazi yo kunywa, mu rwego kugira ngo ize kugira umukamo utubutse kuko yariye ubwatsi, ikaba inyweye n'amazi.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'amatungo magufi, turi kubona ibiraro bya kijyambere birimo udukwavu, inini ndetse n'intoyi, aha hari abahinzi biyororera ndetse n'aborozi usanga borora amatungo magufi kuko ariyo abagoboka.

Uyu ni umugabo wiyororeye inka, afite inka nziza cyane kandi yitaho, aha amaze kuyiha ubwatsi arangije ayiha amazi ayihera mu ibasi nziza cyane y'ubururu, ari yifatira kugira ngo imaremo.

Ubu ni ubworozi bw'ingurube. Iyi ni ingurube nziza cyane bigaragara ko iri mu kiraro kitabwaho ikorerwa isuku. Iyi ngurube ikaba ariyo ibangurira izindi, kuko bigaragara ko batigeze bayikona.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'amatungo magufi, turi kuhabona ingurube nziza cyane kandi ishishe. Iyi ngurube uwayoroye iyo agiye kuyigurisha, ayigurisha amafaranga menshi cyane maze nawe akishima cyane kuko, zifite agaciro.

Aha ni ahabera ubworozi bw'inka, ni inka nziza cyane z'inyambo zifite amahembe, hakaba hari n'abavuzi bazo bambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse na bote z'umweru yambaye ingofero, akaba yayifashe agiye kuyitera urukingo.

Ubu ni ubworozi bw'amatungo magufi aha turi kuhabona igisambu kirimo ibiti, ndetse n'ibyatsi byiza hakaba harimo ihene ubona ko zishishe kuko zibona ibyatsi byiza kandi zikabibonera ku gihe.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'amatungo kandi bwa kijyambere, ni ibiraro byubakishije ibyuma hakaba harimo inka nziza cyane z'ifirizone ubona ko zitaweho kandi zimeze neza mu buryo buhebuje.

Aha nihakorerwa ubworozi bw'inkoko, aborozi ndetse n'abahinzi bororera muri aka gace bikaba bigaragara ko bafite amafaranga kandi biteje imbere kuko hari ibiraro byiza cyane bororeramo n'inkoko zabo zikaba zimeze neza.

Ubu ni ubworozi bw'amatungo bubera mu kiraro. Iyi ni inka iri kurya ubwatsi bushishe ariko iyi nka ikaba ititabwaho uko bikwiye kuko ikiraro cyayo ntibajya bagikukira kuko ibisogororo biyiriho.

Ubu ni ubworozi bw'inkoko, aborozi b'inkoko bakunze kuba ari abakire kuko inkoko zororoka vuba kandi cyane aho imwe ishobora kubyara inkoko umunani bityo bityo mu mwaka umwe ukaba ufite inkoko nyinshi cyane.

Iyi ni nyubako nziza cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubworozi, abahinzi borozi bamaze kumenya neza ko iyo woroye ukororera ahantu heza ari bwo ugira umusaruro ushimishije kandi ushimishije n'Igihugu.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imbuto zikaba ari imbuto z'intete. Izi mbuto zikaba ziri mu mabakure aho bazitunganyije kugira ngo bazitere hakaba harimo iz'ibishyimbo, soya, amashaza, ndetse n'ibindi.

Uyu ni umugabo wambaye ishati, nziza cyane y'amaboko magufi akaba ari ahantu hari imyaka. Izi ni intiti bazateguramo imbuto maze abahinzi, bakaba arizo batera.

Ibi ni ibigori byatoranyijwe mu rwego rwo kugira ngo intete zabyo zizategurwe neza maze zivemo imbuto abahinzi bazahinga mu cyiciro gikurikiyeho k'ihinga, ibi bigori bikaba bimeze neza.

Aya ni amoko y'imbuto zamaze gutegurwa, zikaba ziteretse ahantu hamwe ziri ku mifungo, hakaba harimo ibigori, ibishyimbo soya, amashaza ndetse n'andi moko yose agiye atandukanye.

Aba ni abahinzi bakaba bari gutunganya imbuto bazahinga kuri sezo ikurikiyeho, aba bahinzi babigize umwuga ku buryo basobanukiwe neza ko imbuto batera igomba kuba ari indobanure.

Iki ni igihingwa cy'ingano, zikaba zeze neza kandi zisaruye. Ingano ni kimwe mu bihingwa bimara inzara abahinzi ndetse bikabafasha no kubona amafaranga kuko ku masoko hirya no hino zicuruzwayo.

Uyu ni umusore wahuguriwe ibijyanye no kuvura amatungo, aha akaba ari gutera inka intanga mu rwego rwo kugira ngo ibyare, aba baganga usanze baba bafite imitima ikomeye kandi bakora umurimo wabo bawukunze.

Iyi ni inka yagize ikibazo cy'uburwayi, aba ni abaganga b'amatungo bakaba bari kugerageza kuyitaho mu rwego rwo kugira ngo bayigarurire ubuzima ariko yanegekaye cyane, ni ah'Imana naho abaganga bo biragoye.

Aha ni ahategurirwa umusaruro ukomoka ku nka, aho baba bamaze gukama amata, bakayashyira mu tubido twiza cyane tw'umweru, maze bakadushyira ku murongo harimo umukobwa mwiza cyane wambayetaburiya y'umweru, akaba ariko kudutondekanya.

Uyu ni umwari ukora ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo ahagaze ahororewe amatungo magufi azwi nk'inkoko. Izi nkoko uyu mwari akaba azitaho bigatuma zigira umusaruro mwiza cyane kandi ushimisha nyirazo.

Aba ni bavuzi b'amatungo bari kwita ku nka iri hano y'ifirizone ariko yarwaye cyane, yarazahaye bari kugerageza kuyizahura, bayitera inshinge za vitamine kugira barebe ko yagarura ubuyanja.

Aha ni ahororerwa amatungo, ndetse aha bakaba bahifashisha mu gihe, bagiye gutera inka cyangwa se andi matungo inkingo. Aha hakaba hari inzobere mu bijyanye no kuvura amatungo. Akaba aribo bagiye kuzitera inkingo.

Uyu ni umuganga w'amatungo uzwi nka veterineri akaba agiye gutera inka intanga. Yambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse yambaye n'itabuririya y'umweru. Arikobanza kwitonda neza kugira iyi nka itamutera umugeri.

Uyu ni umuvuzi w'amatungo yambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'ubururu, akaba ari gutegura ibikoresho yifashisha avura amatungo kuko ibi aba yarabyize kandi yarabihuguriwe.

Izi ni inyamaswa nziza cyane kandi zishimishije, iyi ni inyoni, ikaba ihagaze mu ishyamba, iri mu migano myinshi cyane, hakaba hari umugore uhetse ingabo ndetse bigaragara ko yaje gutembera muri iri shyamba, akaba ari umuhigi.

Iyi nyamaswa y'igitera ni imwe mu nyamaswa zangiza. Aha turi kuyibona iri kuzenguruka inyuma y'ikimera cy'umuhati. Ifite umurizo muremure ikaba ifite amabara y'umweru n'umukara.

Izi ni zimwe mu nyamaswa zororerwa mu gishanga, aho usanga kuba yo ziba zishimye zizengurukamo zirira utunyamaswa two mu mazi, mu Rwanda zikaba zihaba kandi zisigasirwa.

Aha ni ahantu heza cyane hakaba hari imisambi ibiri, iyi misambi izenguruka yitoragurira kandi bigaragaza yuko ari zimwe mu bisiga byita ku bindi kandi bikaba bigira urugwiro.

Aha ni muri pariki rwagati, hakaba harimo inyamaswa zigiye zitandukanye, aho ziba zizengurukira muri ibyo bimera byiza cyane bifite umuyaga ndetse n'ubwiza, hakaba hari n'abakerarugendo bari mu modoka baje kwihera ijisho.

Iyi ni inyamaswa y'imvubu ikaba iri muri parike iri kuzenguruka mu byatsi byiza cyane, inyuma yayo hakaba hari ibiti birebire, hari n'ikindi kiri ku ruhande kirekire ubona ko ari inganzamarumbu.

Ayo ni amatungo meza cyane akaba ari mu rwuri, ari kurisha muri parike nziza cyane aho azengurukamo uko abishatse akisanzura kuko u Rwanda ruri mu bihugu byimakaza ubukerarugendo maze rugasigasira inyamaswa zirubamo.

Ahantu heza cyane hakaba hari utunyamaswa tubiri twiza cyane, twororerwa mu mazi, turizihiwe, turi kureba imisozi inyuma hakaba hari ibimera by'icyatsi kibisi birimo utubara twiza cyane.

Iyi ni imvubu ikaba iri gutembera muri parike, aho igenda irisha ibyatsi, ni mu ishyamba ryiza cyane ubona ko ritohagiye kandi ryijimye, izi nyamaswa leta irazibungabunga kuko zikurura abakerarugendo.

Iyi ni parike ikaba irimo inyamaswa zigiye zitandukanye, harimo nk'agasumbashyamba ndetse n'ibindi zigiye zitandukanye, harimo ibiti byiza cyane bituma izi nyamaswa zibaho zinezerewe maze zikishimira kuhatura.